Umurobyi uvuye kuroba amafi ahantu mu cyuzi, ubona ko arimo kuyazana mu ikibasi, yambaye imyenda y'umuhondo, nta musatsi afite.

Ifoto yerekana igishanga kiri ku buso bugari, aho abantu bahinga umuceri, bambaye ingofero bose mu mutwe ndetse n'amaboti kugira ngo babashe guhinga neza ndetse banatere nta kibazo.

Ifoto yerekana ahantu bacururiza imiti y'amatungo, harimo imiti y'inka ,ihene, ubona ko ari ahantu ushobora gushakira imiti kugira ngo wongere umukamo uvure indwara inka n'ibindi.

Ifoto yerekana ahantu hakusanyirijwe imiti y'amatungo y'amoko yose, aho harimo imiti y'inka, ihene, intama, ndetse n'andi matungo yose kuburyo washobora kuyashakira imiti.

Ifoto yerekana utujerekani, ishushanyijeho inka, imbogo intama z'tuni tw'umweru.

Ifoto yerekana umuntu uhinga ibigori, ubona yuko arimo agenda atera kimwe, agenda abagara ,yambaye bote yambaye ingofero, ishati, ubona ko ari mu kazi.

Ifoto yerekana abahinzi b'Ibigori, urutoki, ibiti ndetse hameze nk'aho hasakaje n'ibyuma ubona ko ari ubuhinzi buteye imbere.

Ifoto igaragaza ahantu heza cyane hahingwa puwavuro ubona ko umuhinzi yaje kuzisanga kugira ngo bazijyane ku isoko zitangire kugurwa ndetse no kuribwa.

Iyi foto yerekana abantu baje gusarura amaronji aho barimo kurya baryohewe cyane ubona abantu bhinzi ndetse haje n'abaguzi kugira ngo babashe kubagurisha umusaruro.

Ifoto yerekana abantu bari mu gikorwa cy'ubuhinzi ndetse no kuvomera, ubona ko bambaye bote kugirango bite ku bihingwa byabo bibashe kumera neza.

Ifoto yerekana ahantu mu kibaya, hari ubuso bugari, aho abantu bavomerera imyaka yabo kugira ngo ibashe kumera neza mugihe k'impeshyi, aho bakoresha imashini.

iIoto yerekana ahantu hari ubutaka bwiza cyane, hari ibiti ubonako ari aho abantu bakura imbuto babasha guhinga neza, imbuto zigezweho.

Ibiti, urutoki, abantu, umuhanda, imisozi, ibibaya, ibiti birebire, ibigufi n'ibindi.

Ifoto yerekana ahantu heza cyane, ku buso bugari, aho hari amaterasi y'indinganire, afasha abaturage mu gusigasira ubutaka bwabo, bakoresheje, bakoresheje...

Ifoto yerekana ingurube y'umweru, yakuze neza, yariye neza. Ubona yuko rwose ari ingurube nini cyane. Ifite umurizo munini irimo kwirira ibiryo byazo bigezweho.

Ikiraro, ingurube, ibyo kurya byazo, iherena, akazu, n'ibindi.

Ifoto yerekana abantu babiri, umugore n'umugabo bafite imbuto ziri mu gatebo bazijonjora kugira ngo bakuremo inzima ndetse ubona yuko bishimiye umusaruro wabo bombi.

Umugabo, wambaye uturindantoki, itaburiya y'umweru, harimo. akabati, amakaro.

Ibasi, inkoko zitandukanye, harimo isake n'inkoko kazi, isarubeti, inkweto, urwego, inzu y'inkoko.

Ifoto igaragaza ahantu heza cyane harimo ishusho y'igisamagwe, aho inyamaswa y'inkazi cyane, ireba nabi ndetse ikwiye kwitonderwa.

Ifoto yerekana imbeba y'agasozi ubona yuko iri ahantu mu gisambu yakuze cyane y'amatwi manini, ibi ibyoya byinshi ubona ko rwose ari ikibeba k'ikinyagasozi.

Ifoto yerekana ahantu hari pariki, harimo inyamaswa zishyamba, ibiti, ibyatsi ndetse n'ishusho nziza ubona ko ari muri pariki y'akagera.